Byabaye byiza aho bazaniye bano bayobozi bashinzwe ubuhinzi n’ubworozi. Hari bimwe bigisha Abanyarwanda, ukabona pe biraboneye, nko gutera ibishyimbo ku murongo, ntabyo bari bazi ariko nyine kubera ko bano bayobozi barabibigishije.

Korora ingemwe nk'ubu nka gutya zikiri ntoya, iyo uzitayeho ukazishyira mu masashi ubasha kubona ingemwe, kandi ukazagurisha n'abandi. Niyo mpamvu nyine ukwiye kwihangira imishinga, kuko imishinga ni myiza cyane, iyo uwihangiye ubasha kubona ama....

Kurenga gutyo umuti ni byiza, ugiye nko gutera imyaka, kuko ushobora guteramo mwinshi, uwo batakubwiye, ugasanga birahiye, niyo mpamvu kurenga ari ingenzi, kugira ngo utere, uzi umuti wateye uko ungana, n'ingano yawo.

Ipombo bayikoresha batera umuti. Akenshi iyo batera ibirayi, ibigori, amasaka, bakoresha ipombo batera, bikaba byiza kuko imyaka iragenda ikaba neza. Ikera ishishe kubera kuyitera umuti.

Ni byiza gufumbira imyaka, kuko iyo uyiteye umuti n'ipombo, yera imeze neza, ikera ibyibushye kuko nk'iyo itangiye kubabuka, itangiye kuba umuhondo ukayitera umuti, aho ngaho iba itangiye kwera.

Detane ni umuti bakoresha batera ibirayi , bakavangamo na za Samikombe n'ibiki , kugira ngo ibirayi byere bisa neza , kuko iyo ubiteyemo umuti harimo nk'udusimba , tubasha gupfa . Niyo mpamvu nyine babicuruza ku masoko.

Amapombo yo kutera umuti nyine mu rwanda yabaye menshi, ariko ayayo ndabona ataragera mu rwanda. Nyine ubwo ni ukutwongerera bakareba ukuntu bayakwirakwiza mu rwanda, ndi kubona nyine ari amapombo meza cyane, gutera nk'umurima wahita uwusoza vuba, kuko asohora umuti byakabaye byiza ko ku masoko hose nyine yahagera, abaturage twese tukabasha kuyagura bitworoye bitaduhenze.

Ifi ni nziza ku buzima bw'umwana, ariko ukayimugaburira warebye neza ariya mahwa yo mu mpande ko aba ntayarimo, kuko iyo uyimuhaye, umwana arakorora akabasha kugira nk'ikibazo. Niyo mpamvu dukwiye kwita ku bintu duha abana, tukareba niba ari intungamubiri cyangwa se niba ari ibyabagirira akamaro. nk'ariya mahwa ntiwagakwiye guha umana agihari, ukwiye kuyafata ukayaca, ukayakuraho.

Ifi ni nziza k' ubuzima bw'umuntu. Hariyo bita tomusoni ni nziza pe! N'uko ari amafaranga yabuze, ari iby'ingenzi ifunguro umuntu agiye guteka ryakagombye kuba biriho ifi, kuko ni nziza. Niyo mpamvu tugomba kuzajya dukora cyane, kugira tubone nibyo dushaka tugaburire abana bacu, n'imiryango yacu, ibintu byiza kandi bibone by'intungamubiri.

Amafi ni meza ku buzima bw'umwana. Niyo mpamvu nyine bakwiye kumanura ibiciro ,abantu bose bakazajya bayabona kuko usanga hamwe na hamwe agerayo ahenze ,ugasanga n'abaturage ntibari kubasha kuyabona neza, ariko byatworohera abayageje ku isoko ahendutse buri umwe akabasha kuyabona kuko no mu bice bya Burera usanga agerayo ahenze ariko bakavuga ko aturuka iriya yabahenze nabo.

Kuroba amafi ni byiza, kuko usanga nk'iyo batarimo kuroba ibinyenyanja byabuze. Ariko nyine nka gutya, bakwiye kureba uburyo babitugenzereza, bizajya bitugeraho, amafi aboneke. Kuko nk'iyo yabuze nyine usanga abaturage byatugoye kuyabona. Kuko aba ahenze cyane. Bakwiriye kongera uburyo bwo kuboneka kwayo.

Zanzibari ni nziza kuziteka, kuko iyo nta mafaranga ufite ukatubona icyo gihe biba ari byiza kuduteka, kuko aba ari mu bikomoka ku matungo. Umwana agira ubuzima bwiza n'umuntu mukuru yaturiye burya tuba ari twiza, ariko ntabwo barabiteza imbere. Hamwe usanga bihendutse, ugasanga nyine hariho abatubura. Niyo mpamvu bakwiye kutwongerera ibiciro hose tukazibona bite...

Kuroba amafi ni byiza, ariko bakagombye ukuzajya bararoba bari mu bwato bukomeye, babugenzuye neza ko bukomeye ,nka bino biti kuko hari igihe bibasha kuremera ugasanga bakoze impanuka, ni ukubanza babigenzura.

Amafi ni ikiribwa cyiza gifite intungamubiri ku buzima bw'umuntu. Ni yo mpamvu bakwiye kwagura bikazajya bigera ku baturage zihendutse, kuko usanga akenshi zitugeraho zihenze, abaturage ntibabashe kuzirya bose.

Amafi ni meza cyane cyane ku buzima bw'umwana, yewe n'umuntu mukuru niyo mpamvu igihe umuntu yabonye ubushobozi akwiye kuyateka nk'umwana akamugirira akamaro kuko ni intungamubiri.

Amafi ni meza nko kuyorora ,ahantu nyine bayorora bagize amahirwe ,kuko babona intungamubiri zihagije, ariko bikaba na byiza na byo ko bazajya bayatwohereza, bayohererezanyije isuku.

Indege ni nziza cyane kuko mu gutabara yabasha kwihuta. Nta bwo yakwihuta nk'imodoka. Imodoka nyine na yo irihuta ariko cyane cyane indege. Ni yo mpamvu nyine mu Rwanda bakwiye kureba buryo ki na twe twakwiteza imbere, mu Rwanda hakabamo ibibuga byinshi, kuko usanga nta bibuga byinshi birimo. Harimo bike ni yo mpamvu bakwiye kongera ubushobozi ahenshi hakaba ibibuga, kuko bihari n'indege zaba nyinshi cyane.

Ibirwa bazanye mu gushyiraho abantu bakwiye kuzajya babimura, kuko akenshi ku birwa abantu bakunze guhura n'impanuka, kubera ukuntu baba batuyemo abana batamenyereye, bajye bareba ukuntu babakuraho kuko ntabwo biboneye gutura mu birwa, nk'abanyarwanda ntabwo bikigezweho, Leta y'u Rwanda yagakwiye kudufasha abantu bagituyemo bakabakuraho, kuko ntabwo ari sawa kuhatura.

Amafi ni ibiryo by'intungamubiri, ari ukuva ngo buri munyarwanda afite ubushobozi buri funguro ariye, ryazajya riba ririho ifi ariko nyine ubushobozi buracyari buke, kuko ava igisenyi ahenze akatugeraho mu turere nyine ari hejuru, ugasanga ntibitworoheye ko buri umwe wese yayigura, akayigaburira umwana ariko ibyo ni ikiribwa cyiza, niyo mpamvu abanyarwanda nyine usanga tubifite ku....

Ni byiza kuba buri rugo rwaba rufite imboga mu rugo, kuko ufite imboga ugira ubuzima bwiza, kandi imboga zirinda indwara zimwe na zimwe mu mubiri, kuko ni intungamubiri mu mubiri w'umuntu.

Umucyayicyayi ni mwiza kuko uwuteye no ku isoko barawugura, bawushyira mu cyayo kigahumura neza, ni yo mpamvu umuntu uwuteye nta kibazo yagira, uwuteka mu cyayi kigahumura.

Gusarura ibishyimbo gutya, har'igihe ar'ibyo umuntu abona bimworoheye, ariko nanone ibara imibare mibi, kuko wakagombye guhita ufata bino biti byari bishingirije ibishyimbo, ukabikuramo nabyo ukabibika ahantu kugira bitangirika.

Ibirayi ni byiza kubihinga, kuko nk'iyo byeze uragurisha ukabona amafaranga, ukabasha kwiteza imbere nyine binyuze mu buhinzi, niyo mpamvu igihe umuntu abihinze agomba kubyitaho.

Gutera insina ni byiza ahantu bishoboka, ariko nk'ubu urabona nk'iyi ngiyi iteye nyuma y'amashanyarazi burya iyo izuba rivuye, ugasanga bigiye birahuha bishobora guteza ikibazo. Ni yo mpamvu umuntu akwiye gutera insina yarebye ahantu ayiteye niba nta kintu yakwangiriza cyangwa se ntibangamira, kuko urabona byegeranye n'amashanyarazi ntabwo bikwiye.

Ikibuga nk' iki ni cyiza bacyitaho gifite isuku. Ni yo mpamvu nyine n'abandi bose bafite ibibuga bakwiye kubyitaho, bikaba bisa neza nka hano kuko hasa neza, nta myanda irimo, kandi n'ibyatsi biraringaniye si byinshi cyane. Ni ikibuga cyiza.

Amashaza ni igihingwa cyiza ariko buriya nkaya ntibayacaguriye, kandi yari ateye ahantu heza yari anaboneye, bagakwiye kuzajya bayacagurira akaba asa neza bakabona ukuntu bayajyana ku isoko asa neza cyane, dore harimo imyanda, harimo ibyatsi, ntiwamenya amashaza ngo ni ayahe, kandi ubona ko ariyo bateye ariko ntiwamenya ngo ni yo kubera ko adacaguriye ngo abe asa neza.

Ibirayi ni igihingwa cyiza abanyarwanda dukunze guhinga, kidufasha no kwiteza imbere. Niyo mpamvu niyo byahenze abanyarwanda batareka kubigura. Na none n'ibitoki bikomeje gutera imbere, kuko usanga henshi nyine hamwe na hamwe niyo haba mu cyaro, umuntu yaramenye ubwenge bwo gufata insina akayitera, akumva ko umunsi igitoki cyeze nawe we azumva nyine abaho neza, kuko ukejeje ntabwo waburara ugifite.

Guhinga imitabo gutya ni byiza kuko iyo umuntu yahinze gutya biramufasha nko gutera cyangwa se bari kubagara, ntibacundagura imyaka kubera ko aba ari imitabo bakagenda baranyura mucya hagati.

Ni byiza gutera gutya ibiti ukagira ishyamba, kuko nk'ubu iyo ushobora kuba ufite nk'ishyamba ukagiramo ibiti byinshi ukabigurisha, icyo gihe ubasha kubona amafaranga ukiteza imbere cyane.

Amajeri kuyahinga ni byiza, kuko nk'iyo uyahinze agera ku isoko ahenze. Niyo mpamvu nyine bakwiye kutwongerera imbuto mu Rwanda, hose na twe tukazajya turayahinga, kuko iyo yeze usanga ahenze cyane kubera kutayahinga ari benshi.

Ibigori ku bihinga ni byiza. Biba byiza cyane iyo ubyitayeho, bikiri bitoya, kuko icyo gihe bikura bisa neza mbese ukabona ko wabihaye nk'ifumbire bikura bisa neza, ukabasha kubona amafaranga.

Ibirayi ni igihingwa cyiza, umuturage wese cyangwa se Umunyarwanda uhinze ibirayi ntabwo ahura n'ikibazo cy'inzara, kuko iyo byeze arafata akabikaho agashyira mu nzu, abana bakagira ubuzima bwiza cyane.

Igihingwa cy'ibirayi ni cyiza, kuko nk’iyo byeze, usanga mbese nko muri karitsiye buri umwe wese, n’utarabihinze abasha kubigura kuko icyo gihe biba byaguze make. Ni yo mpamvu nyine mu Rwanda dukunze kubihinga, bagapakiza imifuka bakajyana muri za Kigali aho batabihinga. Ibirayi pe! Ni byiza ntabwo waba ubifite ngo usonze, cyangwa se ngo abana bagire ikibazo.

Karoti ni igihingwa kitaratera imbere ahantu hose, yuko bagihinga, kandi mba mbona karoti zivamo umuti, zivura amaso n'ibindi bintu byo mu nda, birazivura, mba mbona ari byiza bakwagura bakabijyana mu turere ahantu hatandukanye, bose bakazajya babihinga, byadufasha kugira ubuzima bwiza.

Guhinga buriya uri gutabirira ku bikenyeri byavuyemo ibigori ni byiza, kuko iyo ubihingiyeho gutyo ugakora umutabo bihari, iyindi myaka ugiye guhingamo birayifasha iba ifite ifumbire, kuko birabora bikabyara ifumbire.

Beterave ni igihingwa cyiza cy'intungamubiri, kuko umuntu wagize amaraso makeya bamubwira kurya beterave, gukora umutobe wa ji umuntu akoresha beterave ukumva uraryoshye nta kibazo ufite, ni yo mpamvu ari mwiza.

Amashaza ni igihingwa cyiza, kuko iyo yeze ukayajyana ku isoko ubona amafaranga, ukabasha kwiteza imbere ariko nanone byagakwiye kutwongerera imbuto, abaturage twese tukayihinga.

Ikawa ni nziza kuyihinga kuko nk'iyo wayifashe neza ukayigurisha ubasha kubona amafaranga. Ariko mu Rwanda ntabarashyiramo umwete, rimwe na rimwe usanga bahinga impingo imwe, hejuru yo kudasobanukirwa ibyaribyo.

Amatunda nk'ayangaya ni meza kuko iyo umuntu ayahinze ahantu heza ukayitaho, yera neza Kandi avamo amafaranga iyo wayitayeho cyane. Ni yo mpamvu afite intungamubiri ku mubiri w'umwana n'umuntu mukuru.

Imyumbati ni myiza kuyiteka kuko iri mu bitera imbaraga. Kandi na none nk'iyo uyejeje ukayanika, ivamo ubugari, ukaba wanagurisha, cyangwa se ugashyira mu nzu, abana bakamererwa neza.

Gucuruza ibirayi bakabipakira gutya mu mifuka biba ari byiza, kuko nk'abatuye hanze y'ibihugu babasha kubibona batabasha kubihinga. Niyo mpamvu mu turere bakwiye kuzajya bahinga ibirayi byinshi bakabona ibyo bagurisha n'ibyo barasigarana kugira basigara bari kurya. Niyo mpamvu ibira ari byiza cyane kubihinga. Nanone kubishyira mu mifuka gutya, mba mbona bazajya babanza bakabirobanura.

Itungo ry'ihene ni ryiza kuryorora, kuko ufite Ihene nk'ebyiri warazoroye, ziragenda zikabyara ukabasha kugurisha, nibu ufite n'umwana wo kujya ku ishuri ihene yagufasha kumutwara ku ishuri.

Igihingwa cy'imyumbati ni cyiza kugihinga nuko nyine mu rwanda bataratera imbere ngo bazajye bayihinga ariko nk'ubu uwayejeje ntabwo wagira ikibazo kubera ko wagenda ugasarura abana bakabasha kuryaho cyangwa se ukabasha kujyana ku isoko ukagurisha ukabona amafaranga ugahaha n'ibindi ukeneye niyo mpamvu nyine imyumbati ari myiza ivamo n'ubugari, nta kintu kitavamo.

Igiheri ni cyiza kugicuruza, kuko nk'iyo uri kugicuruza aborozi barakigura, n'aborora inkoko. Icyo gihe birakorohera wihangiye umurimo w'igiheri, nta bwo wabura amafaranga kuko nyine abenshi babigura bagiye guhereza amatungo, kandi burya na none ntibareka kubigura kuko amatungo na yo akeneye kurya. Nta bwo bareka kubigura, kandi icyo gihe ubasha kubona amafaranga mu mushinga wakoze bikoroheye.

Inkoko z'inyarwanda ni nziza, kuko nk'iyo iteye amagi usanga, amagi y'inko y'inzungu n'inyarwanda bitagura kimwe, niyo mpamvu bakwiye nyine kureba ukuntu bakongera ubushobozi, inkoko z'inyarwanda mu Rwanda hose zikaba zihari.

Imboga z'amashu ni nziza kuko usanga mu bigo by'amashuri, akenshi nizo bakunze akoresha, kandi noneho atari mu bigo by'amashuri, no mu rugo usanga ari imboga nziza zikungahaye ku mubiri w'umuntu, ariyo mpamvu tugomba kuzajya tuzihinga, kuko amashu ni meza cyane, kuko wawuhinze ari nk'umurima w'amashu ni wabura ikintu uyakoresha, wanashaka n'ikigo cy'amashuri uzajya uyagemuramo.

0ranje ni intungamubiri cyangwa se ariyo bita amaronji ni intungamubiri ku mubiri, kuri buri muntu wese utuye u Rwanda ariko nanone mu Rwanda ntiraguka hose ngo ihagere, kuko usanga ari hamwe na hamwe bayacuruza, kandi na bwo n'uyicuruza ugasanga ayihendaho, mwakagombye kureba ukuntu mutworohereza bikazajya bitugeraho bihendutse buri mubyeyi wese akabasha kuyigurira umwana.

Amapera ni igihingwa cyiza abanyarwanda dukunze guhinga. Kuko iyo yeze utwara ku isoko bakakugurira ukabona amafaranga. Kandi nanone ni n'intungamubiri ku buzima bw'umuntu. Niyo mpamvu nyine dukunze kuyahinga.

Gutondeka gutya udufuka turimo amafu y'imitsima, cyangwa se ay'igikoma, bakwiye kureba ko bayashyize ahantu hafite ubwisanzure mbese ubona ko nta kibazo yagira, kuko akenshi haba igihe bayajyanye ku isoko ugasanga hari nk'ayapfuye, ugasanga asa nabi cyangwa se ugasanga harimo ibinonko. Mbere yuko bayagemura ku isoko, bakwiye kubanza bareba niba afite ubuziranenge.

Ibirayi ni igihingwa kiza Abanyarwanda tutajya turambirwa kurya, kuko iyo byeze ntabwo wabirambirwa kubirya. Birera ukagemura n'abatabifite bakabasha kubibona, ni yo mpamvu Abanyarwanda dukunze kubihinga.

Umuturage cyangwa se umunyarwanda wahinze ibigori nta kibazo yagira, kuko iyo byeze abasha gutekera abana, bakirya, yanacyontsa bakakirya, yanagurisha ku isoko akabasha kubona amafaranga bityo...

Gucururiza mu isoko nkuku bigaragara neza kuko iyo umuntu agiye gushaka ikintu yinjira mu isoko, akabasha kubona icyo ashaka bitamugoye kuko baba begeranye, kandi bari mu isoko ahantu hose. Umuntu yajya gushaka ikintu akakibona.

Ni byiza gusarura ingano zumye kuko iyo uzigejeje mu rugo ntizigorarana kuzihura. Uzanika rimwe zigahita zuma ugahura Ukaba watekamo umutsima wa byo bita igikwanga n' ibindi.

Avoka ni nziza niyo mpamvu, igiti kiri ahantu heza umuntu akwiye kukibungabunga; umuntu akagifata neza kikera neza kuko avoka ni nziza ubasha gusarura tukazijyana ku isoko ukabona amafaranga, ukabasha kwiteza imbere; abanyarwanda dukwiye kuzihinga kuko ubungubu zabonye isoko.

Kuhira ibirayi ni byiza, bikiri bito. Kuko bifasha kuzamuka bisa neza. Ikindi nko kubibagarira, kubihereza itaka. Bidufasha kuzamuka bisa neza. Bikera bibyibushye nta kibazo.

Isombe ni nziza, kuko umuntu uyihinze aba ari imboga ari kurya mu izindi, niyo mpamvu nyine abaturage twese bo mu Rwanda dukunze kuyihinga, kuko ni nziza kuyiteka iranaryoha.

Ibitoki ni byiza kuko utarabihinze abasha kubibona ku isoko, ukabasha kubigemura n'ahandi mu masoko atandukanye, nyine nk'uwo utujyanye mu rugo, abana babasha kubaho neza.

Imyumbati ni myiza iri mu bitera imbaraga niyo mpamvu hamwe na hamwe Abanyarwanda dukunze kuyirya, kuko imyumbati ni myiza pe! Urasanga nk'ubungubu ariko mu Rwanda nti barayihinga ahantu hose kurugero bashaka.

Ikawa kuzihinga ni byiza, kuko aho bazihinga zitanga umusaruro, ariko ntibirakwirakwira ku isi hose ngo bazihinge, usanga mu turere hamwe na hamwe ntazihari, ari nk'akarere nyine kihariye kazihinga, bakwiye kwagura.

Gutera ibiti ni byiza, niyo mpamvu bavuze ngo jya utema kimwe utere ikindi, kugira ngo isuri itabasha kuza, kuko warateye igiti ntabwo isuri yabasha kuwutembana, ngo ize kukwangiriza umurima.

Amapera ni meza nk'iyo yeze usanga nyine ahantu hose abageraho bakabasha kurya. Ni yo mpamvu umuntu wahinze amapera ntiyagira ikibazo, kuko arayafata akayajyana ku isoko, n'abandi bose batabasha kuyabona bakayaryaho, nta bwo bikwiye ko bayeza ngo bayafate nabi kuko ku isoko aba afite amafaranga cyane. Bakwiye kuyeza bakayatwara ku isoko abatayahinga bakayabonaho.

Ibitoki ni byiza k'umuntu ubihinga ufite urutoki, bagomba kurwitaho bakohereza n'imiti, kuko haba igihe ufite nk'urutoki rwarononekaye, ariko ufite nk'imiti yo kurutera icyo gihe, ubasha gutera ukabona ibitoki byinshi, ukabasha kujyana ku isoko ukagurisha, ukabona amafaranga binyuze mu kwiteza imbere, binyuze mu bitoki, ariko nanone nk'iyo unakijyanye mu rugo icyo gihe abana barya bishimye, kuko uba wabahahiye intungamubiri y'igitoki.

Imyembe ni igihingwa kiza, ni imbuto nziza zikunze guturuka mu Gakenke, no mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda, kuko mu Rwanda ni hake ba zihinga, dukwiye kubishyiraramo umwete tugashaka ingemwe, natwe mu Rwanda tukiteza imbere tukabasha kuzihinga, kuko ni nziza cyane ku muntu wazihinze nta kibazo yagira yejeje, yajyana ku isoko bakamuha amafaranga.

Guhinga gutya mu ishyirahamwe ni byiza kuko nk'iyo uri guhinga n'utabizabizi abimenyeraho. Kandi burya nta n'ubunebwe buzamo iyo muri guhingira hamwe, kuko uvuga uti ninsigara inyuma barandeba. Niyo mpamvu ari byiza guhingira hamwe.

Igihaza ni cyiza kuko iyo wa gitetse kigeretse ku bishimbo, ubona bisa neza kiranaryoha kuko n' intungamubiri; mu mubiri w' umuntu ntabwo wapfa kuko ni cyiza cyane.

Umushinga wo gukora ingemwe gutya muri pepiniyeri biba ari byiza, kuko nk'iyo umuntu ashaka nk'ingemwe akagenda mu shyirahamwe bakazimugurisha cyangwa se bakazimuhereza, niyo mpamvu ari byiza nyine gukora umushinga w'ingemwe gutyo.

Kuhira ibigori ni byiza, kuko nk'iyo ubyuhiye bikiri bitoya ukabyuhiza ifumbire ya ire, biza bisa neza. Niyo mpamvu nyine umuntu akunze kubibagara bikaza bisa neza.

Pavuro n'igihehingwa bakoresha bashyira mu isombe, kuko pavuro watetse n'inyama ugashyiramo karahumura, ariko mu isombe wayikoresha cyane kuko ni ikirungo cyiza, kandi uyiteye nti wabura amafaranga, kuko iyo yeze neza nka gutya uzitwara ku isoko bakazirangura, kuko barazicuruza ukabasha kubona amafaranga bitakugoye, wihangiye umurimo binyuze muri pavuro.

Ibishyimbo ni byiza kubiteka kuko ni intungamubiri, bivamo intungamubiri ariko si byiza ko wabika ibishyimbo bitagosoye kuko kubika ibigosoye bimara igihe, biba bisa neza ntibipfa kunundwa vuba. Niyompamvu nyine abanyarwanda twese dukwiye kuzajya duhinga ibishyimbo abana bacu bakamera neza bakagira ubuzima bwiza cyane.

Inanasi ni nziza kuzihinga kuko zivamo umusaruro, ariko ntabwo mu Rwanda nyine biratera imbere ku buryo ahantu hose inanasi baba bazifite. Ariko nyine bibaye byiza bakatworohereza, bareba uburyo ki hose nyine tuzihinga kuko burya ni n'intungamubiri. Iyo zeze ubasha kubona amafaranga binyuze namazi ariko mu Rwanda ahantu kenshi zikunze kuba ni mu Gakenke zikatugeraho...

gutera icyari ni byiza, ariko hamwe na hamwe mu turere dutandukanye usanga abatari babimenya kugihinga bakwiye kugura ingemwe bakazijyana hirya no hino bakazihinga.

Igihingwa cy'indimu ni cyiza. Umuntu wazihinze ntiyagira ikibazo zeze gutya, kuko indimu benshi baba bazishaka. Zivamo umuti ukomeye cyane niyo mpamvu dukwiye kubigiramo nk'umuhate wo kuzihinga. nk'abaturage.

Coperative yo guhinga iba ari nziza, ariko usanga nk'iyo bose bahuriye mu murima, hari abanebwa ntibakore neza. Niyo mpamvu nyine ahari amakoperative bakwiye kubireba neza, bakagira umunsi wo gukora. Bigabyemo ibico bagafata nk'ama groupe bakavuga bati nk'iyi groupe niyo izaza guhinga k' umunsi uyu n'uyu. Mbese bakamera nk'ababagabye ibihe. Kuko iyo ari benshi usanga harimo abavunika kubera badakora.

Guhinga inyanya ni byiza nka gutyo bari nko kuzisarura bakagombye kuzajya bazifata bakazigeza ku maduka zihendutse, kuko nkubu inyanya zirahenze cyane cyane, umuntu akibaza ngo ziba zabuze biba byagenze bite? Leta yakagombye kureba ukuntu ibyororoshya ku buryo uturere twose twajya duhinga inyanya ntizajya zihenda cyane pe.

Amateke n'igihingwa kiza, kuko umuturage cyangwa se umunyarwanda wahinze amateke nta hantu yahurira n'inzara, kuko iyo yeze n'ikintu kitabora yafata akayashyira mu nzu akagenda akaraho ahabona, niyo mpamvu ari byiza nyine kuyahinga.

Iteke ni umuti, waragendaga mbere unyura munzira, bakavuga ngo uzajye unywa amazi yo ku iteke urakira gusoba mu buriri. Niyo mpamvu usanga nk'Urwanda akenshi tuyahinga kubera ukuntu avamo umuti cyane.

Igihingwa cy'ibireti ni cyiza ariko usanga mu Rwanda hamwe na hamwe batari babihinga, ahantu bakunze kubihin by'umwihariko ni mu Kinigi, ni yo mpamvu bakwiye kongera imirama abanyarwanda twese tukabihinga, tukiteza imbere kuko ni....

Kubetesha ifu y'igikoma ni byiza kuko wayibonye ukayibetesha ntiwagira inzara, ufite ifu y'igikoma mu nzu wajya uteka abana bakabasha kunywa mbese nta kibazo wagira ufite ifu y'igikoma.

Ibihingwa by'ibireti ni byiza, ariko ahenshi mu turere, mu turere ntibarabishimo. Uburyo mu kubihinga, usanga hari akarere k’umwihariko gahingwamo ibireti gusa, abandi ugasanga nta kintu bibabwiye. Kandi burya, ibireti ni byiza cyane. Kubihinga ni ingirakamaro ku Banyarwanda n’abandi bose.

Karoti ni igihingwa cyiza, abaturage cyangwa se abanyarwanda dukunze guhinga kuko nk'iyo zeze zivamo umuti, zivura amaso n'ibindi bintu ariko nyine iyo zigeze ku isoko usanga zihagazeho kandi nanone mu gihe buri muturage wese yongeraye ubushobozi akazitera ku buryo buhagije zagera no ku isoko zihendutse n'utazihinga akabasha kuzibona, niyo mpamvu nyine abaturage tugomba gushishikarizwa ibintu byo guhinga cyane kuko ni byiza.

Ufite igare ubasha gupakira nk'ibirayi n'ibindi bintu, ukabasha kubona amafaranga, ariko nyine na bwo nka gutyo babihinze baba babikuye mu murima w'umuntu akabiterereza, ni yo mpamvu ari byiza kwihangira imirimo kuko nk'iri gare riparitse hano rigiye gupakira biriya birayi, abashe kubigeza iyo agera abona amafaranga bimworoheye, kandi nyine hejuru yo gufunguka mu mutwe akabasha kubona amafaranga.

Imineke myiza ivamo umutobe abaturage bakawunjyana ku isoko bakagura, kandi na none iminke yoroshya mu nda, kuko nk'iyo uwuriye ari umwe, ugira intungamubiri ku buzima bw'umuntu.

Amapapayi ni meza ku buzima bw'umuntu, uyariye agira ubuzima bwiza, ariko na none nta bushobozi buraboneka bwo kugira ngo mu turere n'ahantu hatandukanye bayihinge, ntibirakwira....

Amashaza ni meza kuyateka kuko araryoha iyo wayatetse mu gitoki. Ariko nanone nyine dukwiye kureba uburyo ki ahantu hose twazajya tuyahinga kugira atugereho ari ku giciro gito, kuko usanga atugeraho ari hejuru cyane.

Igihingwa cy'inyanya ni cyiza, kuko umuturage wahinze inyanya ntiyagira ikibazo ngo zizamuboreraho, kuko abaturarwanda twese dusigaye twarabaye abasirimu mu kurya inyanya, ni yo mpamvu nyine kuzihinga ari...

Urutoki ni rwiza kurukorera. Nk'iyo urukoreye, icyo gihe ibitoki bibasha gukura byisanzuye. Ariko nka gutya cyakuze kikaryama hasi, iyo bagishakira inkingi cyari gukura kimeze neza. Niyo mpamvu nyine bakwiye kubyitaho.

Imyumbati ni igihingwa cyiza kuko biri mu ntungamubiri, biri mu bitera imbaraga , ariko nanone byakagombye kuba byiza bagiye bashaka imyumbati ya orojinari ,bakayigeza ku isoko ari myiza, bayigenzuye ko atari gitamisi.

Intama ni itungo ryiza Abanyarwanda tworora, akenshi usanga ahenshi barayoroye, kuko iyo riri nko mu nzu nta bwo rikunze kugaragara. Nta bwo ryahuza n'ihene ni yo mpamvu dukunze kuryorora, kuko ni ryiza cyane ku Banyarwanda. Iyi bayita intama ariko ndabona ari iya kizungu kuko nta bwo ari inyarwanda mu zindi, ni iya kizungu.

Ibitoki ni byiza kuko ugifite mu nzu ugaburira abana bakabasha kumererwa neza, niyo mpamvu nyine buri wese ufite urutoki akwiye kurwitaho, bikera neza akajyana ku isoko, akaba yajyana kugurisha akabona amafaranga bitamugoye, yaritaye nyine ku byo yahinze kuko nk'abatarabihinnze nabi iyo babibonye babigemuye mu masoko bararya kandi bakabasha kumera neza.

Ibirayi ni igihingwa cyiza, kandi ku muntu ubicuruza birunguka iyo apimye neza, kuko usanga umuturage nta byo yahinze akaba yabibona ku isoko, kubera ko mugenzi we yejeje byinshi akagemura, usanga na we bimworoheye akumva ni byiza ari yo mpamvu nyine amasoko bayashizeho, byabaye byiza cyane kubera ko wasangaga nk'Umunyarwanda abuze uko abigenza nimugoroba.

Kwihangira umurimo ni byiza, kuko nk'iyo urimo gucuruza ibintu washyize mu ndobo, bituma nyine ubona amafaranga bikoroheye. Kandi utashoye menshi niyo mpamvu nyine buri muturage wese cyangwa se buri munyarwanda akwiye gukura amaboko mu mufuka, agashira ubute agakora kuko bizadufasha kwiteza imbere. Kuko umuntu uri gucuruza wotamelone nta hantu yahurira n'ubukene, ayo abonye make yabasha kuyabyaza umusaruro akayakoresha neza, akiteza imbere cyane.

Urusenda ni igihingwa ciza kuko iyo ugihinze neza ukabona ahantu uzajya urugemura, umva ubona amafaranga ku buryo buhagije. Niyo mpamvu bakwiye kuzajya ba rworora cyane.

Kariya gafuni ubu by'ukuri kari buze guhinga, ni byiza ko uhingisha isuka igaragara ku buryo niyo uhinze umurima neza, kano gafuni aka gafuni nta hantu kakora, ngo habonere.

Ni byiza guhunika gutyo imyaka irobanuye mu kigega kuko nta kibazo igira nkiyo ugiye kureba ntikunze kunundwa cyane, uba ubona isa neza mbese nta kibazo ifite niyo mpamvu ari byiza nyine nka gutya kuyitoranya ugakuramo imyanda.

Ibirayi urabona ukuntu bisa neza. Ariko bitarabagawe ngo babyiteho ntibyagaragara gutya. Niyo mpamvu umuntu akwiye guhinga, ikintu ahinze akacyitaho kikazamuka gisa neza.

Amagi ni meza ku buzima bw'umuntu cyane cyane ku mwana. Ni yo mpamvu umubyeyi nyine uri kubona ufite nk'ibiceri, ugomba kugurira umwana wawe igi kuko ni byiza ku buzima bwe. Bahora babitwigisha kugaburira umwana igi ku munsi ni byiza cyane.

Hari ukuntu umuntu aho acuruza ibiribwa kuko bitandukanye, harimo: inyanya karoti ibitunguru amashaza, n'ibindi bintu bitandukanye. Akabishyira ku giciro kiri hejuru ashaka inyungu y'ikirenga, yabona bigiye gupfa akaba ariho abimanura ,bakwiye kongera ubushobozi bakareba ngo ndunguka makeya ncuruze ibintu bihite bishira, kuko wamanuye igiciro byarangije gupfa cyane.

Ni byiza guhunika ibigori gutyo mu kigega, kuko nk'iyo mubihunitse hano biba bifite sekirite kandi burya bifite n'ubuziranenge bwo kubaho neza, kuko ushobora kubihungura ukajya kubyibikira mu nzu yawe ugasanga bimunzwe vuba, ariko bimanitse hano mu kigega nta kibazo, igihe cyose wabikenera waza kubireba niyo mpamvu nyine bashyize ikigega cyo kuzajya bahunikamo imyaka kuko birafasha cyane ku baturage.

ibigo ni byiza kubihinga ,kuko nk'iyo nka gutya amashyirahamwe abasuye, bakabisura bareba niba bitangiye no gufatwa, ibisimba bitangiye kujyamo baka bakabicukira umuti, ugasanga babikoze neza niyo mpamvu ari byiza kubyitaho bikiri bitoya, kuko iyo bikuze uba ubona bisa neza bikazavamo umusaruro uhagije, niyo mpamvu nyine bakwiye kubyitaho cyane, nk'amashyihamwe nkaya aradufasha cyane.

Koperative nk'iyi yo gufatanya guhinga iba ari nziza, kuko burya nk'umuntu uba udafite ubushobozi bwo guhinga ibirayi icyo gihe iyo koperative yagabanye abasha kubona ibirayi akajyana abana bakarya bakagira ubuzima bwiza, kandi nanone yaba yagize byinshi akavuga ati, ''undi munsi ubwo ngubwo nzongera ubushobozi ndebe ko nazabona ibirenze ibyo mba mbonye'', niyo mpamvu nyine koperative ari nziza ku baturage.

Bwayisi n'amatike aryoha, umuntu wese uyahinze nta ahura n'inzira kuko abashonge ahishiwe kandi iyo babashije kuyageza ku isoko abadahinga kuko bamwe na bamwe ntibayahinga, bayagura biboroheye bakajya kurya neza abana cyangwa se bakagira intungamubiri ku mubiri, niyo mpamvu ari byiza guhinga nk'amateke ukayasarura ugasigira n'iso nkuko bigaragara.

Uyu mucaca pe urasa neza urasa neza cane, ari nk'ikibuga cy'abanyeshuri haba hasa neza, abana b'incuke bakazajya bahakinira byaba ari byiza kurushaho.

Guhurira gutya mu murimo imyaka, yego biba byiza ariko nanone bakagombye kureba uburyo ki baramburaho amahema menshi, kugira imyaka idataragurika kuko nyine birafasha uva mu murima uviriyemo rimwe.

Ibihwagari ni igihingwa kiza abanyarwanda bakunze guhinga, kuko iyo byeze havamo amavuta n'ibindi bintu, nuko nyine abanyarwanda bamwe ntibakunda kubihinga ngo babyiteho cyane, kandi ari ingenzi.

Ni byiza kumanika ibigori gutya kuko iyo umanitse gutya ntibinudwa, biba bigaragara neza kuko bimara igihe kinini, iyo ubikeneye ufataho bikeya ugahungura ukabetesha, biba ari byiza cyane kumanika ibigori gutya, kubifata ukabishyira mu mufuka ntibigaragara neza, ufite ahantu urabimanika cyangwa se ukabihunika n'ibibabi gutya biba byiza cyane birafasha, ntabwo bipfa vuba.

Ingano kuzihinga ni byiza kuko iyo wazihinze ntuhura n'ubukene bw'amafaranga, urazeza ukagurisha, ukajyana ku isoko ukabona amafaranga, wanabetesha ugakuramo umutsima ukagaburira abana, ukagira ubuzima bwiza.

Ni byiza guhinga ubunyobwa ariko mu Rwanda hamwe na hamwe ntibarabyubahiriza, kuko usanga mu turere rimwe na rimwe babihinga. Ariko imbuto ibaye nyinshi bakabona hari kuvamo umusaruro, n'abandi bose babihinga bakwiye kongera imbuto.

Kumanika ibigori gutya bazanye mu midugudu no mu turere. Kumanika ibigori mu bigega baratworohereje kuko byabaga biri nko mu rugo, ugasanga abana bifashe nabi, cyangwa se ugasanga nk'umwana yaza akavuga ati: "Manurira ikigori." Ugasanga arabimanuye, mbese ugasanga ntibiri gufatwa neza. Ariko nka gutya batwoherereje ibigega byo kumanikamo, byabaye byiza, biranafasha abaturage.

Ibigori ni byiza, ubyejeje ntabwo wagira inzara kuko urabifata ukabeteshamo akawunga, ifu y'igikoma, ni yo mpamvu ubifite nta kibazo wagira kuko uba wizigamiye ntiwasonza.

Ubunyobwa ni igihingwa Abanyarwanda hose badakunze guhinga, kandi kiba cyiza. Iyo bweze ukabwanika ukajyana ku isoko, icyo gihe ubona amafaranga ukabasha kwiteza imbere. Ariko Abanyarwanda bose ntabwo turabasha kubuhinga, kuko imbuto ntibasha kuboneka usanga ari hamwe na hamwe. Ni yo mpamvu bakwiye kutwongerera ubushobozi hose nyine tukazajya duhinga Ubunyobwa bitworoheye, bitanatugoye cyane.

Gusarura amajyeri akarinda akarinda kumera gutya, nta bwo ari sawa pe! wagakwiye kuyasarura, ukayitaho, ukayanika akakuma, ariko ano biragaragara ko bayafashe nabi.

Ibishyimbo by'umutuku Mana we biba ari byiza, kubiteka noneho kubiteka mu isafuriya uba ubona bibyibushye, ukagira ngo ahari nk'amashaza, kuko amashaza araryoha cyane, ibishyimbo by'umutuku ndabikunda cyane pe!

Igihingwa cy'amasaka ni cyiza, kuko nk'Umunyarwanda uyahinze iyo yeze nta bwo yagira ikibazo, arabasha kubetesha akuremo igikoma cy'abana, agurishe, ajyane ku isoko, abashe kubona amafaranga yiteze imbere. Ni yo mpamvu bakwiye kuyagura no mu Rwanda hose tukazajya tuyahinga, kuko usanga hamwe na hamwe batagira umwete wo kuyahinga, kuko hariho abo babuza ngo ntibayahinge. Ni yo mpamvu bakwiye kwagura hose...

Ingano ni nziza kuzihinga kuko nk'iyo zeze umuntu arabetesha agakoramo umutsima wo kurya, bitawanga wayazeza kuko nk'iyo yeze urafata ukajyana ku isoko ukabona ndetse uka wabona n'indi mbuto yo guhinga bita kukoyine kubera kuba waragize neza.

Gukora depo gutya ni ubucuruzi bwiza, ariko nanone bakwiye kuzajya bagenzura ibintu baba bagiye guha abantu, bakabanza bapfundura bakareba niba bitarajemo inturwe, kuko nk'iyo uhaye umuntu cyarajemo inturwe icyo gihe ntaba akikuguriye.

Umuntu wazanye ikigega yarakoze, kuko wasangaga mbere nk'umuntu yarahinze ariko akaba yabura aho ahunika ibyo yejeje, ariko ubu ngubu haje mu mirenge no mu midugudu ikigega cyo guhunikamo imyaka yawe.

Ingano ni nziza kuzihinga kuko iyo uzejeje zivamo igikoma, zikavamo umutsima. Umutsima w'igikwanga ukawuteka ukawugereka ku bishyimbo biba biryoshye, n'iyo mpamvu Abanyarwanda tutareka kuzihinga.

Soya ni nziza cyane kuko iyo yeze bayivanga mu ifu y'igikoma, bayikoramo ibiribwa nk'inyama z'abadive ari zo bita amatofu, ni igihingwa kiza yane ntabwo wazihinga ngo ntabwo waba uzejeje ngo ubure amafaranga, kuko bazitwara ku isoko baguha amafaranga, soya pe nta kintu itwaye kuyihinga ufite ubushobozi bwo kuyihinga.

Ibishyimbo ni ingirakamaro, kuko usanga nk’umuntu watetse ibishyimbo, ibiryo biba bigaragara neza. Ni yo mpamvu tugomba kubifata neza, kuko ni ibiryo byiza kubitekera nk’umwana, agira ubuzima bwiza. Uzarebe umwana umaze icyumweru atarya ibishyimbo, ubona hari icyahindutse kandi yarabimenyereye. Ni yo mpamvu ari byiza ku buzima bw’umwana, mbese n’ubw’umuntu mukuru, kuko ntabwo yabirya ngo byange kumugwa neza.

Ibigori ni igihingwa cyiza cyane cyera. Iyo ubyitayeho bikiri hasi, bizamuka neza ukabitera n'umuti, icyo gihe ukuramo umusaruro utubutse wabyitayeho, kuko bikura bisa neza nta kibazo bifite.

Umuceri ni mwiza uranaryoha. Ariko ni byiza ko abawuhinga bakwiye kuzajya bawutonora, icyo bita kuwuhura bakawunoza, kuko hari igihe umuntu ajya guhaha agahura n'umufuka urimo imyanda myinshi.

Bazanye udutanda gutya, byabaye byiza ko usanga nk'umuturage agiye kugura igikoma cyangwa se ibigori agiye guhita abibetesha ugasanga abuzeza ukuntu abigosora ,ariko gutya bazanye udutanda byaratworohereye kuko iyo ugiye kubigura urabitoranya neza ku gatanda ukabigosora ukajya kubetesha iby'igikoma bisa neza nta myanda irimo kubera kuba wayirobanuye cyane

Kugosora imyaka ni byiza, kuko nk'iyo umuntu agiye kuyihunika bituma itanundwa, kuko iyo harimo nk'imyanda ubona bidasa neza, ariko iyo wayibitse igosoye, bimarika........

Amasaka n'imeza, iyo uyitayeho ukayahinga neza ukayuhira, ukayabagarira, arakura ukajya gushigisha umusururu, ukabetesha igikoma, ukajyana ku isoko ukabona amafaranga ahagije.

Amasaka ni igihingwa cyiza kuko iyo yeze abantu barashigisha bakabona ubushera, tukavanga mu gikoma tukabona iby'igikoma, mbese nta muntu wagira ikibazo yejeje amasaka, ni yo mpamvu ari igihingwa cyiza.

Ubunyobwa ni bwiza kubuhinga , kuko iyo ubuhinze icyo gihe ubasha kubona amafaranga, ariko mu Rwanda hari uturere tumwe na tumwe bataragezamo iyo mbuto ngo bazajye bahinga ubunyobwa, niyo mpamvu nyine bakwiye kutwongerera ubushobozi, ku buryo imbuto yagera mu turere cyangwa se ahabonetse hose tukabasha guhingana natwe icyo gihe tukiteza imbere, kuko iyo tubihinze tukabyeza turi benshi ,icyo gihe bubasha no guhenduka abaturage bakisanzura nyine kubyo bashaka.

Ibihwagari ni igihingwa cyiza Abanyarwanda hamwe na hamwe nyine bakunda kubihinga, kuko usanga si hose mu turere babihinga usanga hari uturere byihariyemo, babihinga ariko ni byiza nk'umuntu ubyejeje ntabwo yagira ikibazo cy'amafaranga afite ibihwagari byeze gutya, kuko birera akabifata akabikuramo amavuta n'ibindi bintu bitandukanye, ni yo mpamvu nyine dukwiye kubifata tukabihinga cyane.

Igihingwa cyiza k'ibihwagari, iyo cyeze neza bakuramo amavuta bakagemura ku isoko, ugasanga abanyarwanda twese twabibonye, niyo mpamvu imbuto y'igihwagari bakunze kuyagura ikagera mu turere, n'ahandi hose hatandukanye mu Rwanda bakabasha kubihiga, kuko usanga hari akarere k'umwihariko bene aha ngaha ni ho bahinga ibihwagari honyine.

Ni byiza gucuruza ibishyimbo, ibirayi kuko utabifite ajya ku isoko akabasha kubigura yabonye ayo mafaranga, ariko nanone byakagombye kuba byiza gutya babishize mu isoko bakabubakira isoko bazajya barabicururizamo, kuko nk'ubu nk'umuntu uri gucururiza mu nzu aba abangamiwe kuko nta kuntu wacuruza impande y'umuryango we, kandi na we aba akeneye kubona amafaranga. Byakagombye kuba byiza rero bubatse isoko bose barahuriramo bakabasangamo.

Ibishyimbo nk'ibi ngibi mu Rwanda na kera byarahabaga, ariko ubu ngubu bisigaye bitagikunda kuboneka, kandi mbere byabaga byareze bigatanga umusaruro munini cyane. Ariko ubu ngubu ntibigikunda kuboneka ahanini.

Umuceri ni ingihingwa abanyarwanda dukunze kurya，kuko usanga warahenze， hamwe na hamwe ugasanga uzamuka buri munsi， ariko bibabaye byiza mu turere hose bakazajya bawuhinga， byaba byiza.

Ibigori ni byiza, kuko nk'iyo ubyejeje ukuramo ifu y'igikoma, kawunga y'abana ukabitesha, ni yo mpamvu nyine igihe tubyejeje tugomba kubifata neza kugira ngo bitaza kumungwa, tukabihambira, tukabimanika.

Imbuto y'ibishyimbo imeze gutya, yari, kera yari ihari ariko ubu ng'ubu ntabwo bikunda kuba bihari, kuko nk'iyo byeze gutyo ibishyimbo bya mukanyiragisenyi birera cyane, bivamo umusaruro munini.

Ingano ni igihingwa cyiza Abanyarwanda dukunze guhinga, kuko nta hantu usanga badahinga ingano, akenshi iyo zeze umuntu arazanika zikavamo igikoma zikavamo umutsima bita igikwanga, ugasanga nyine bidufasha kwiteza imbere, urazeza ukagurisha ukajyana ku isoko, biturutse mu kuzihinga neza, ugasanga nyine biguhesheje amafaranga hejuru yo guhinga ingano kuko ni nziza zivamo n'ibyo kurya.

Bakwiye kuzajya bazana imbwa nka gutya bakazizana kuzikingiza. Kuko usanga ari nk'umuturage uyoroye , kandi ugasanga ntikingiye , ntago biba ari byiza pe kumuturage.

Inka kuzorora ni nziza, kuko nk'iyo uzoroye mu rugo ubasha kubona amata, icyo gihe ukabona n'ifumbire ukagurisha, ukabona amafaranga binyuze mu ifumbire no mu mata. Ni yo mpamvu umuntu afite ubushobozi yakagombye korora inka kuko ni nziza.

Ibiraro nk'ibi bazanye ibyo kugaburiramo inka byabaga byiza kuko habaga igihe babisize hasika zikaba zabicundagura zitabiriye, ariko uku bazanye kugaburira inka byabaye byiza ni kijyambere.

Amagi ni meza ku bana cyangwa se no ku muntu mukuru. Niyo mpamvu buri muntu akwiye kugira umushinga, akabasha korora inkoko. Na we avuye kuri imwe akazamuka zabyara akazarangira yiteje imbere.

Inka nk'izi ni nziza kuko uba ubona ziboneye zisa neza, ariko hamwe na hamwe niho ziri ntago mu Rwanda hose zirahagera, sanga zibere nko mu Bigogwe, niho zikunda kuba.

Igi ni ryiza ku buzima bw'umwana, kuko umwana waririye agira ubuzima bwiza. Niyo mpamvu buri mubyeyi wese akwiye kujishura ibiceri maganabiri, n'utabifite akorora inkoko akabasha kugaburira umwana we igi.

Inkwavu ni itungo ryiza kuko iyo uzoroye si ikintu kirajya Kona, ariko nanone uzisohoye zakona. Ariko ni byiza kuko ziguma mu nzu ukazihereza ibyo kuriramo kandi zigakomeza zigakura zikamera neza. Nk'iyo zikuze neza urazigurisha ukabasha kubonamo amafaranga ahagije iyo wazitayeho. Ni yo mpamvu korora ari ingenzi nta kintu wasuzugura kitagurisha amafaranga.

Kuragira ku gasozi ntibigaragara neza, kuko iyo uragiriye kugasozi haba igihe zicitse umuntu ugasanga zigiye kona imyaka iba iri ku umuhanda niyo mpamvu nyine bakwiye kubikuraho cyane.

Ingurube ni nziza kuyorora kuko nk'iyo uyoroye neza ukayihereza ibyo kurya, mu gihe gitoya iguhereza umusaruro bitakugoye. Kandi burya ingurube ipfa kurya ibyo ibonye, ntiyagora umuntu kuyorora kuko irya ibyo ibonye.

Amagi ni meza ku buzima bw'umuntu cyane cyane ku bana, kuko iyo umugaburiye igi agira ubuzima bwiza, niyo mpamvu nyine bakwiye kudushakira inkoko tukazorora turi benshi, kuko usanga abari kuyacuruza atugeraho ahenze. Bakwiye kureba uburyo batworohereza inkoko zikajya hasi, buri munyarwanda wese akazajya mbese aba afite inkoko, akabasha kubona amagi yo kugaburira abana.

Umushinga wo korora inkoko ni mwiza kuko iyo uwitayeho inkoko zirororoka cyane. Iyo ziteye amagi ziratera ukaba wagurisha ukabona amafaranga biturutse mu mushinga wo korora kuko uzororeye ahantu heza.

Ingurube ni nziza kuyorora kuko iyo uyoroye iguhereza umusaruro mwiza, kukwiyo igiye kubwabura ibwagura ibyana birimusi ya cumi na bibiri aho ngaho iyo ubyitayeho bigasa neza biguhereza amafaranga atubutse.

Korora ingurube ni byiza, ariko none tugashimira leta y'u Rwanda, yabonye ko amatungo akene abaganga, bakohereza abo bita baveterineri, kuzajya abazivura nabyo byabaye byiza gukoza mu iduka ryawe ryarwaye uka bura ikintu warikorera.

Inkwavu kuzorora biroroha kuko zishira mu nzu ukahira umwanjye icyo bita isanduruma ariko kuzorara mba mbona aritungo ryoroha kuko ntijyanduza mu nzu hagumya hasa neza usibye ibyo zariye naho ubundi mba mbona inkwavu ari ikintu ciza cane kuzorora niyo mpamvu tworora udukwavu cane.

Ingurube mu gihe yabwaguye, bakagombye kureba niba hari umuti bayitera ikazana nyine amadede menshi yo konsa ibibwana , kuko haba igihe byinshi bitonse ugasanga birapfuye. Ariko, hariho imiti yo kuyitera ikabyonsa byose, bikabona amashereka, byagaragara neza kandi icyo gihe nabyo biba byiza kuko haba igihe ibyaye akangari, ikabura ukuntu yabyonsa ugasanga bimwe birapfuye. Ariko, uhari byakoroha cyane.

Inkoko za saso kuzorora ni byiza, kuko ni inkoko zirya n'ibyatsi. Wazihaye isanduruma zayirya. Zitera amagi neza ni yo mpamvu korora inkoko za saso ari byiza cyane.

Kororera inkoko mu nzu ni byiza cane, kuko iyo ziri hanze uduca, uduturu n'ibindi biraza bikazirya ariko iyo ziri mu nzu uba wumva ufite umutekano uzi ko nta kibazo zagira.

Korora ingurube ni byiza, ariko na none ukayigirira isuku, kuko iyo utayigiriye isuku ahantu wayororeye haranuka. Niyo mpamvu tugomba kuzorora neza, kuko iyo zororotse ziguha umusaruro utubutse.

Iyi nyamaswa ndikubona arimbi cyane pe, ishobora ku kurya muhuriye mu ishyamba, ndikubona imeze nk'ikaze, imeze nk'iyaryana. Ibisimba nkibi bazajye ba birekera mu mashyamba.

Inyoni yitwa Fundiguruka pe! Nyiheruka kera, utunyoni iyo tuguye mu mazi dukunda gupfa, sha nduheruka kera! kuko batwita Fundiguruka ni ko twitwa nduheruka kera.

Akanyamasyo ni agasimba gakunze kuba ahantu akenshi hari amazi, kuko nk'iyo nyine kari ku mazi kavuyemo abantu bagatangarira, ariko nyine akenshi bikunze kuba biri ahantu ku mazi, ntago biza ku butaka.

Imisambi ni inyamaswa zikunze kuba mu ikirere, ariko nanone nk' umurima wagezemo umusambi, nta nyoni zikunda kujyamo kuko zitinya imisambi. Niyo mpamvu nyine imisambi ari myiza cyane .

Inkende ni itungo rikunze kuba muri parikingi, kuko zibaye ziri mu baturage zakwangiriza ibidukikije. Ni yo mpamvu akenshi bakunze kuzishyira muri parikingi, ntizibe mu baturage kuko zishobora kwangiriza ibintu cyane.

Inzovu ni inyamaswa zikunze kuba muri parike, Yego naone bakwiye kongera umutekano muri ziriya nyamaswa ziba muri parirke baba barubakiye kuko hari igihe zicika zikangiza imyaka y'abaturage.

Utunyoni tw'udufundi mbere twabaga mu cyaro, ariko n'ubu ngubu ntabwo zikigaragara, menya sinzi ahantu zagiye. Inyoni mbere z'ifundi zabaga abana bazitangariye ngo ni dutoya, ariko ubu ntabwo tukiboneka cyane.

Urukwavu ni rwiza kurworora, kuko iyo uzishyize mu nzu ukazishyira ahantu hamwe, ukazitaho ukazihereza ibyo kurya nk'isanduruma, zirakura zikabasha kororoka ukabona amafaranga bitakugoye , niyo mpamvu ari byiza kuzororo. nanone uzishyize ahantu hamwe zibwagura bidatinze kandi burya n'abantu bakunda kurya inyama, kubera ko inkwavu ziba zifite inyama nziza bakunda kuzigura cyane ku isoko.